Aha turimo turabona abantu benshi bicaye muri sare y'inama cyangwa se bicaye mu nyubako nziza barimo barakora inama, mbere hari abandi babicaye imbere b'abayobozi twakwita nk'abayobozi babahagarariye, ariko biragaragara ko iyi nama itaratangira, kuko buri wese aracyahugiye mu bye, ni igikorwa cya leta cyangwa se ni ibya leta kuko n'ubundi biri kubera mu nyubako za leta.

Inyubako y'itaje igeretse hejuru, irimo ibirahure by'ubururu, hasi harimo imodoka irimo mu hantu hubakiye harimo ibyuma, isakariye wagira ngo ni amabati, hasi hariho n'ibyatsi n'amaraba.

Aha turimo turabona abantu bicaye mu nama bicaye batuje, bicaye ku murongo, ni inama yateguwe na leta cyangwa se ni igikorwa cya leta kubera ko harimo ingeri nyinshi abayobozi batandukanye, ingabo z'igihugu, bari mu nyungu za leta, mbere yabo hateguye neza, mbese bifitiye inyungu leta kuko baratuje bameze nkaho bafite umushyitsi mukuru cyangwa umutumirwa mukuru ariwe bateze amatwi.

Turimo turabona inama n'abayobozi batandukanye bari muri sale y'inama cyangwa se amahugurwa runaka ariko yateguwe na leta, kuko turabona ari mpuzamahanga harimo n'abatari abanyarwanda ariko bameze nk'abari mu bifitiye inyungu igihugu.

Aya ni amazu afite akayira karimo hagati y'amazu hejuru hashakaje amabati, aya mazu biragaragara ko ari kwa muganga.

Turimo turabona ni abayobozi batandukanye bari mu nama, inama igamije iterambere ry'igihugu urimo urabona ko imbere yabo hari umuntu batumbiriye cyangwa se bakurikiye bari kumva, ni gahunda za leta barimo.

Aha turimo turabona abantu benshi, bicaye, barasa n'abari mu nama, mu gikorwa cyateguwe na Leta, baratuje, bameze nk'abafite umuntu bateze amatwi bari kumva, ubayoboye uri imbere, bari muri sare nziza cyangwa se mu nzu nziza, mu nyubako nziza, barasa neza, na bo bari muri gahunda za Leta.

Turabona abantu bicaye mu itente mbega bameze nk'aho baje mu kirori cyangwa se mu munsi mukuru runaka, n'ubwo bitaratangira bicaye mu itente nziza rwose. Buri wese yicaye ku ntebe ye n'ubwo bisa nk'aho bitaratangira ariko baratagereje ko bitangira. Imbere yaho cyangwa se aho muri iyo tente bicaye hateye udupasiparumu dusa neza, hari akazuba kagereranije, imbere y'iyo tente hateye igiti, mbese bameze nk'aho bategereje ko bitangira.

Iyi nyubako nziza habereyemo inama ariko iyi nama yahuje ibihugu bitandukanye kuko turimo turahabona amadarapo y'ibihugu bibiri bigera nko kuri bibiri hari ameza ameze neza ateguye neza abayobozi bari mu nama barasa n'abateze amatwi ngo bumve uri kuvuga, inyuma yaho gatoya hari umuntu uri gukamera cyangwa se uri gufata ibyabereye muri iyo.

Iyi ni inama yahuje abantu benshi batandukanye ariko kandi yateguwe na leta cyangwa se yagizwemo uruhare na leta, igizwe n'abantu benshi batandukanye, harimo abanyamahanga, higanjemo abanyamahanga ariko n'abanyarwanda barimo, ntabwo twamenya ngo harimo ibihe bihugu kuko nta madarapo turi kubona atwereka ibihugu runaka ariko ntibyateguwe na leta.

Bari mu nama ni abayobozi batandukanye bari mu nama hanyuma buri wese afite imashini imbere ye, aza guhuhwa kwandikamo cyangwa se aza gukoreramo raporo hanyuma mbere yaho hateretse udundi ducupa tumeze nk'uturimo umuti w'ubwirinzi ujya kumera nka sanitayiza eh, baratuje nyine bari kumva inama.

Aha ngaha turabona ari nama ariko yateguwe na leta kuko ni igikorwa cya guverinoma cyangwa se cyateguwe na leta, barimo barabahereza nk'amabwiriza cyangwa se ni amahugurwa kuko imbere turahabona usa n'aho abahagarariye ari kubaha bimwe mu bigizwe cyangwa se mu bigize iyi nama bateraniyemo, buri wese afite ukuntu ari kubikurikirana ari ku mashini.

Aha turimo turabona mudasobwa iri imbere yacu, bageze kuri sitepu ya kane cyangwa se ku nzira ya kane batwereka ukuntu umuntu wese yakikorera serivisi z'Urembo bitagombeye ko babimukorera, mbese ni gahunda ya leta twakita byikorere, umuntu wese yakikorera serivisi z'Irembo ku giti cy'iwe, nta muntu ubimukoreye, rero hano batwerekaga ukuntu twabyikorera cyangwa se ukuntu wabyikorera muri gahunda ya byikorere.

Inkuru igaragaza abantu bari kwamamaza umukandida dogiteri Habineza furaka mu matora ya perezida w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda.

Ndabona hano ari ku irembo, aho washobora kwikorera serivisi z'irembo, nawe ukabyikorera ukoresheje telefone, hari na mudasobwa, barimo baratubwira ukuntu wakwiyandikisha, uri gukorakorera uruhushya rw'ibinyabiziga, barimo baratwereka ibisabwa, kuba umuntu afite irangamuntu, mbega barimo batwereka uko nawe wakwikorera serivisi z'irembo ubyisabiye.

Aha turimo turabona abanyeshuri n'abayobozi babo, aho twa kwita nko muri rabo ya ayisiti, barimo barabigisha ibijyanye na tekinoloji, barimo bariga uko umuntu yakoresha mudasobwa , bazavamo ari intiti, bazavamo bazi gukoresha mudasobwa mu bintu byinshi bitandukanye ku nyungu z'igihugu.

Aha turimo turahabona umuntu wicaye imbere muri biro cyangwa muri ofisi, imbere ye hari imashini afite na telefone mu ntoki, ari mu kazi, hano ni Leta cyangwa se ni ibikorwa remezo kuko ari kwifashisha ikoranabuhanga akora akazi ke umunsi ku munsi. Ashobora kwifashisha network ya telefone akoresha imashini cyangwa se akagira uko abihuza telefoni na mashine ari gukora akazi ke bifitiye inyungu Igihugu.

Aha barimo baratwereka n'ubundi ibikorwa bya leta yego hanyuma barimo batangariza abantu ibijyanye n'iminsi y'ibiruhuko rusange, cyane cyane nk'iyo twegereje mu minsi mikuru isoza umwaka cyangwa se itangira umwaka. Baba barimo baraduha amatangazo cyangwa se barimo baratubwira uko bizaba bihagaze kugira ngo abakozi ba leta babone uko bazaruhuka.

Aha turimo turahabona ibikorwa remezo; amashyamba, inyubako, amazu yo guturamo turimo turabona amataransifa ku muhanda hari n'icyapa kitwereka amerekezo yaho tujya, urugero nk'imuhanga. Biragaragara ko ari fureshi ziturangira iyo tujya ni ku muhanda ni ku muhanda n'ubwo umuhanda utagaragara ariko n'ibikorwa bya leta.

Turimo turabona inyubako nziza, amazu yo guturamo harimo, harimo n'indi nzu nziza yabamo nk'amabiro cyangwa se gucururizamo, nyuma y'aya mazu hari amashyamba cyangwa se ibiti byiza bigaragara ko ari ibikorwa remezo cyangwa bifitiye inyungu igihugu niyo mpamvu twabishyira mu bikorwa remezo.

Turimo turabona umuhanda kuri uyu muhanda hateya ibiti byinshi ibiti byinshi ariko bidafite bitari bibi byiza cyane kuko hari amahumbezi. Iruhande y'uyu muhanda nanone hari taransifo cyangwa se nk'ipiloni ririho amasinga atandukanye hanyuma hari umuntu uri kugenda yari yateye intambwe arakataje mbese afite gahunda yo kugenda, umuhanda uratuje ntabandi bantu benshi bahari.

Aha barimo baratwereka umukozi uri mu kazi, yicaye imbere y'imashini hirya ye hari akandi kabogisi, ntekereza ko karimo ibikoresho ari kwifashisha, ariko ikigamijwe ni ukutwereka inyungu za leta biciye mu gukora mbese umurimo unoze n'inyungu za leta, bifitiye inyungu leta ndetse natwe.

Hano turimo turabona abaturage bashobora kuba baje mu nama, cyangwa se kumva ibiganiro runaka ariko byateguwe na leta, kuko bari ahantu hamwe mbere yabo hari umuntu, urimo kubakangurira igikorwa runaka ariko kijyanye n'ubwirinzi.

Aha hari imibare hari urupapuro rwanditseho amagambo aya magambo nubwo atagaragara neza ngo umuntube yayasoma asobanukirwa ari ibice biri kuri uru rupapuro ariko icyari kigamijwe ni ukutwereka ukuntu bagiye babinambariga cyangwa babishyiraraho ama nimero badakoresheje imibare isanzwe y'ikinyarwanda ahubwo bakoresheje shifure rome cyangwa se imibare y'ikiromanani niko bagiye babinambarenga kungira ngo umenye ngo ni ingingo ya kangahe tugezeho.

Aha turimo turabona urupapuro ruriho amabwiriza cyangwa amategeko, barimo baratwereka ubijyanye n'imanza, uko imanza zicibwa mu Rwanda, uko bigenda, ibi na byo ni serivisi za leta cyangwa se ni ibikorwa bya leta niko twabivuga, kuko baba bari kutwigisha ukuntu twaca imanza cyangwa se uko wacira undi muntu urubanza.

Aha na ho turabona ari ku muhanda ariko ku muhanda utari kaburimbo, ni ku muhanda usanzwe, hirya hari amashyamba ariko adakabije. Turimo turabona abagororwa bahagaze impande y'igiti gihari, hakaba hari n'abandi bantu babiri bicaye bameze nkaho ari abayobozi basuye bano bagororwa twabyita nk'igikorwa cya Leta kuko baboherereje abagomba kubasura. Iriya modoka ihaparitse ishobora kuba ari iy'aba bayobozi.

Aha barimo baratwereka umuyobozi, uyu n'umuyobozi ari mu nzego za Leta yego, nubwo batatwereka ngo ariko ari mukazi kuko n'ubundi yambaye umwenda w'akazi ndikubona wagira ngo n'umu ari muri muri ntuza muri serivise y'ubu ya y'ubucamanza ndabona wagira ngo n'umucamanza, yego. Ariko nubwo atari mukazi ariko yambaye umwenda w'akazi ari muri serivise ya Leta cyangwa se ari muri guverinoma afite ibyo ashinzwe muri Leta, n'umuyobozi muri make.

Aha birasa nk'aho ari ku marembo y'igororero, kuko hari abacungagereza cyangwa se abahashinzwe umutekano bahari, hari muntu ugiye kuhinjira, umuntu ugiye kwinjiramo ameze nk'aho ari umukozi wa leta cyangwa se utumwe na leta cyangwa se ari umunyamakuru ugiye nko gushaka amakuru, ariko kugira ngo nawe yinjire hari urupapuro bari kubanza gusuzuma ko atumwe koko cyangwa se yoherejwe, kuko biragaragara ko ni uwoherejwe uje nko gushaka amakuru cyangwa se afite ikindi kintu kiri mugenza.

Hano turimo turabona urupapuro rwanditseho ibintu bitandukanye, ariko ntabwo ari ibintu bisanzwe ni nk'inama, ni inama yari yabaye noneho batwerekaga urupapuro rwagaragazaga ibyavugiwe muri iyo nama, cyangwa se parloma yari yateranye n'abayobozi batandukanye b'igihugu, noneho bagaragazaga imirongo y'ibyigwa cyangwa imirongo y'ibyizweho, nk'amategeko mashya bari bari gusohora, mashyashya yo kugenderaho.

Turimo turabona kizimyamwoto yadufasha kwitabara mu gihe tugize inkongi y'umuriro, ni bimwe mu bikorwa bya leta kuko bidufasha mu bwirinzi gukomeza no gukora imirimo iduteza imbere.

Abarimu baratwereka kizimyamwoto ,serivisi za leta cyangwa se n'igikorwa cya leta, kuko baba bagamije kuza kuzimya ahahiye birasa nkaho ziri kuri sitasiyo ya esanse, bagirango ngo nihaza kuba inkongi y'umuriro bahihita bihutira gutabara cyangwa se bahite baza kuzimya mu nyungu z'igihugu .

Turimo turabona imodoka iparitse mu muhanda, turimo turabona amashyamba hirya gatoya. Ni ibikorwaremezo, ni ibidufasha muri gahunda z'igihugu.

Turimo turabona kizimyamwoto nyinshi ziri ahantu, ariko ni nko kuri sitasiyo ya esanse cyangwa se aho twazishakita kizimyamwoto mu gihe twatewe n'inkongi y'umuriro twazifashisha.

Aha turahabona abantu bicaye bari mu nama bari muri sare nziza y'inama hari amatereviziyo ari ku bikuta hari amashusho amwe n'amwe arimo bari kureba inama ntiratangira nubwo hari abayobozi turi kubona imbere ariko biragaragara ko inama itaratangira ubwo rero bategereje ko inama itangira ariko n'ibikorwa bya leta kuko biri buze kwinjiriza leta.

Aha turi kuhabona abantu benshi b'ingeri zitandukanye, abana batoya, abantu bakuru, turimo turahabona n'abari gufotoza amatelefoni, kubona hari abana bato bameze nk'abo bari mu mishinga, kuko umuntu uri kubahobera ameze nk'umwe mu bayobozi cyangwa nk'uwatumwe n'iyi mishinga ibafasha, ni ibikorwa bya leta kuko byorohereza leta mu gufasha bano bana.

Hano turabona inyubako nziza, twakita nka biro y'igihugu n'abagabo babiri buri wese afite igazeti mu ntoki, birasa nk'aho bari bari kurahira cyangwa se hari bimwe mu buyobozi babatoreye cyangwa mu nshingano babashinze, bari bari kubarahiza cyangwa se baba bari kugaragaza ko bazakora akazi batorewe gukora, n'icyo bivuze.

Aha turimo turabona abayobozi batandukanye harimo na nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda nk'intore izirusha intambwe, arimo arereka abayobozi abandi bayobozi urugero rwiza rw'ibyo bagomba gukora bifitiye igihugu cyacu inyungu cyangwa se byabasha guteza igihugu cyacu imbere kuko n'ubundi ni ibikorwa by' u Rwanda by'igihugu.

Imodoka ya kwasiteri irimo abantu ariko itari kugenda, imiryango irafunze bigaragara ko bashobora kuba bitegura kugenda, hirya inyuma yayo gatoya hari umuntu nawe ufite gahunda yo kugenda ariko we ntabwo ari bugendane n'iyi modoka kuko we ari inyuma yayo ashaka kwigendera, inyuma y'imodoka nanone hari ipitoni, hanyuma imdoko iparitse mu muhanda n'ubwo itaragira gahunda yo kugenda.

Ni mu muhanda harimo abamotari babiri baparitse, nubwo bigaragara ko nta gahunda yo kugenda bafite ariko basanga nkaho bari bategereje ko hari abagenzi bagiye kwambuka nubwo nabo ntabahari, mbega baraparitse umuhanda uratuje, nta rujya n'uruza rw'ibinyabiziga bihari, ariko ku muhanda n'ubundi hafi ya kaburimbo hateye ibiti, harasa neza, hirya yaho n' aho abanyamaguru banyura.

Inzu y'ubucuruzi iri hafi y'umuhanda, hanyuma haparitse n'amamoto, haparitse n'imodoka mbona ipakiye ariko itari kugenda, hirya y'i modoka ipakiye hari iyindi modoka nayo iparitse itari kugenda, hanyuma ariko biragaragara ko hatuje kuko nta rujya n'uruza rw'abantu ruhar,i izi nyubako ni etaje biragaragara ko ari etaje ariko hirya hari indi nzu itari etaje.

Hano turimo turabona ibikorwaremezo amatara ku mihanda, imihanda myiza ibikorwa birakorwa mu Rwanda ni amahoro, turimo turabona abamotari benshi baparitse ku muhanda, mbega u Rwanda rurisanzuye kurukoreramo birashoboka, ibikorwa byiza nibyo biranga igihugu.

Ni ka kamodoka k'akarifani kari mu muhanda, karimo karagenda, ndabona gapakiye ibintu, ni uko kari kabaye gaparitse ho gatoya, hirya y'umuhanda hari agashyamba, hateye ibiti ku muhanda, hirya y'aho nanone hari abantu bahagaze ku cyapa gihari, ku gapiloni gahari, n'imodoka ihaparitse.

Aha turi kubona umuhanda kaburimbo nziza, turi kubona imodoka kebiyesi iparitse mu muhanda, imbere yayo hari moto nayo iparitse, hirya hari umugenzi uri kugenda ndetse hari n'ibiti biteye ku muhanda byiza bitanga amahumbezi, twabyita ibikorwa bya leta kuko byinjiriza leta umunsi ku munsi, ibi na byo biri mu bikorwa remezo bifasha igihugu gutera imbere.

Aha turimo turahabona imodoka, imodoka zigera nko kuri zingahe hari kebiyesi irimo abagenzi ipakiye ariko itarahaguruka, hari n'iyisanzwe ipakira imizigo cyangwa se nk'amabuye n'imicanga ariko ntabwo ipakiye, iruhande rwayo hari umuntu uhahagaze ariko umeze nk'aho yari agiye gutera intambwe agenda, nawe yarari hafi ahangaha n'indi modoka iri hirya k'akalifani, mbega n'ibikorwa bya leta kuko byinjiriza leta.

Hano turimo turabona imodoka nini iparitse mu ya kebiyesi cyangwa se yo mu bwoko bwa litiko iparitse mu muhanda ariko atari uwa kaburimbo irahantu mu muhanda w'itaka birasa nk'aho imvura yari yaguye kuko haretse amazi mabi twakita ikiziba hameze nabi .Uyu muhanda umeze nabi bisa nk'aho, iyi modoka yahageze inanirwa kuhava k'uko uyu muhanda ari mubi kuko nta bantu bayirimo ,nta bantu bahari ntiwamenya ngo iraja gutwara abagenzi cyangwa se wapi biragaragara ko yapfuye.

Aha turimo turabona umuhanda, turimo turabona imodoka, imodoka nini, imodoka ntoya, amamoto, abamotari, ibikorwa remezo, kuko hirya y'umuhanda hari ahantu hateye ibiti ku muhanda, mbese bifitiye inyungu igihugu cyangwa se ni gahunda za leta, kuko ari ibikorwa remezo bidufasha kugira ibyo tugeraho, umunsi ku munsi.

Aha turimo turabona ahantu haparitse imodoka z'amatagisi vuwatiri. Tagise vuwatiri ni izikunda gutwara abagenzi, kuko inyinshi ziba zifite uruhushya zemererwa gutwara abagenzi, kuko hakurya yaho hari inyubako zikorerwamo ubucuruzi, impande y'izi modoka hari ahantu hari umuntu waruri kwambuka, hanyuma barimo baratwereka n'icyapa cya foji cyangwa se netiwaka ya foji wakoresha yihuta cyane, gusa ikigaragara cyo ba nyiri aya mamodoka bashobora kuba bategereje abagenzi bari buturuke muri ariya masoko cyangwa se aribo bayasize ba nyirayo ariko natwara

Turimo turabona imodoka ya kwasiteri iri mu muhanda ntago iri kugendera iraparitse n'umumotari nawe uri kuri moto nawe araparitse, imodoka irimo abagenzi imiryango irafunze ntawe usohoka ntawinjira hanyuma barasa n'abategereje, kuko bameze nyine nk'abategereje wenda ko hari umuntu uri bwambuke cyangwa se bagiye gukomeza kugenda ariko batarahaguruka, ariko nta na kimwe kiri kugenda byose birahagaze.

Aha turimo turabona umuhanda wa kaburimbo turabona imodoka ziparitse cyangwa se zashakaga kugenda, hari imodoka nyinshi zitandukanye hari n'umupolisi uhagaze hirya gatoya, ni ibikorwa bya leta cyangwa se bifitiye inyungu igihugu kuko uyu mupolisi arimo aracunga umutekano wo mu muhanda, ibikorwa bigakomeza.

Hano turahabona icyapa kitwereka amerekezo abiri cyangwa se kigaragaza ko kereka abantu aho berekera, harimo fuleshi ihagaze neza harimo n'indi idahagaze neza ariko irimo iragaragaza amerekezo y'iki cyapa. Mbega uhageze ntago wayoba, bahita bakwereka niba ukomeza haruguru , cyangwa se niba utambika hirya gatoya, ariko ni icyapa.

Azure foregisi biro iherereye kwa rando mu mujyi wa Kigali, werekeza i Remera, ni biro deshanje ivunja neza.

Aha turimo turahabona icyapa ariko iki cyapa kiratwereka ko hari hagiye kunyuramo ari nk'umuhanda bari bagiye kutwereka ko utanyurwamo, agasitari k'umutuku baciyemo ni ukutwereka ko hano nta kinyabiziga cyemerewe kuhanyura ibyo bashaka kutwereka, ni ibikorwa bya leta kuba bagomba kutubwira, kuduha amabwiriza y'umuhanda kugira ngo tumenye uko tuwucamo ahangaha ntabwo bahanyura.

Abarimu baratwereka inyubako ya banki ibikorwa bya leta cyangwa se bifitiye inyungu abaturage kuko harimo bakozi bafite akazi ubuzima bwabo bugakomeza ndetse n'abagana iyi banki baza gusaba serivisi zitandukanye ibikorwa byabo nabo biga komeza.

Hano turimo turahabona inyubako nziza ya aparitoma cyangwa se hoteri, aho umuntu yajya gushaka serivisi, wenda yagiye nko ku rugendo akabura aho arara, wajya kwaka serivisi aha ngaha ukabona aho urara, ukaba ufite umutekano wizewe.

Aha turimo turabona ibikorwa remezo bitandukanye n'inyubako nziza, amashyamba, amashanyarazi barimo baratwereka ko u Rwanda ari rwiza kandi koko ni rwiza, yego, kuko turimo turabonamo ibikorwa remezo bitandukanye, kandi bifitiye inyungu igihugu cyacu. U Rwanda ni rwiza.

Aba ni abantu benshi ubona harimo umugabo wicaye wambaye amadarubindi n'ikote ry'umukara ishati y'umweru karuvati irimo uturongo tugiye dutandukanye ari kureba muri telefone ye.

Aha turimo turabona inyubako zitandukanye amazu ageretseyo ama etage turabona n'inyubako ya eyateri aho ikorera biro ya eyateri nyuma turabona amazu ameze nk'ayo guturamo mo turabona ibiti byiza biranga amahumbezi, n'ibikorwa byiza na byo ni ibikorwa remezo bifitiye inyungu leta.

Ni inyubako iri i Remera inyubako ziri I Remera ni nyinshi harimo amazu abaturage batuyemo hari amazu agaragara ko ari ay'ubucuruzi mbese hari amazu menshi hari ibiti byiza bihateye bigaragara ko hari amahumbezi arasa neza hanyuma icyo mbona bari bagiye kutwereka ni nyubako y'ipara resito bare cyangwa se kuri resitora na bale yitwa impala nibo baba bari kuturangira.

Turimo turabona ibikorwaremezo nk'umuhanda, ibiyaga, ibiti n'ubwo uwareba neza atitegereje yabona wagirango ngo byakundukiye mu mazi, ariko byatewe n'ifoto bafashe bigaragaza bisa nk'aho ibi biti n'amapironi byaguye mu nyanja cyangwa mu mazi. Ariko bari bagambiriye kutwereka ibikorwa remezo nk'imihanda, n'ibiti n'ibindi.

Turimo turabona umuhanda mwiza, umeze neza, uteyeho indabyo nziza ku ruhande, munsi hariho akajaride keza, gateyemo ibiti byiza by'indabyo, bisa neza, umuhanda urakoze rwose, hanyuma mu muhanda harimo umumotari uhetse umugenzi, yari ari kugenda ariko ahagazeho gatoya, ashobora kuba yari ageze muri feruje, inyuma y'umumotari hirya gato hari ahantu haparitse, hari imodoka, inyuma y'umumotari hari undi mumotari, mbega barimo baragenda no hakurya y'umuhanda hari undi

Hano turahabona ifoto ariko isa nk'icuramye itameze neza; ariko iri gushaka kwereka ibikorwaremezo, ibiti ku muhanda, mu muhanda, abamotari bari mu kazi.

Turimo turabona umuhanda, ariko kuri uyu muhanda hafi yawo hateye ibiti, hanyuma haparitse akagare ka siporo, hanyuma uyu muhanda munsi ya wo harimo ikiraro cyangwa se harimo fose aho amazi anyura, iri gare riparitse iruhande rw'iyi fose, hanyuma uyu muhanda na wo umeze nk'umaze igihe ukoze ukeneye kuvugururwa.